Ibitaro by'abarwayi bisa naho arimo abantu barwajije abantu babo, ibitaro ni byiza cyane biradufasha, biradutabara, bikadutabarira ku gihe, bikavura vuba.

Ahantu muri farumasi, bisa naho ari imiti, Imiti myiza ifasha kuvura abantu bagakira.

Ibyatsi byiza, bimwe mu byatsi bakunda kwita isanduruma. Isanduruma n'ibyatsi ingurube cyangwa se inkwavu n'ibindi byinshi bikunda.